Umugabo wambaye impuzankano ya gisirikari afite indangururamajwi mu ntoki arimo araganiriza abari aho bose, ashobora kuba ari kubaza cyangwa ari gutanga ibitekerezo.

Icyumba gikorerwamo inama, gisize irangi ry'umuhondo ndetse giteraniyemo imbaga nyamwinshi y'abantu. Umwe muri bo ni umugabo, yambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru. Iruhande rwe hari umuhungu uri gufotora wambaye ipantaro irimo ibara ry'ubururu.

Urubyiruko rwitabiriye inama, imbere yabo hari ameza hateretseho n'udukoresho dutandukanye bari kwifashisha bandika ibitekerezo bigiye bitandukanye, bivugirwa muri iyi nama.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye. Ifite umuryango uri mu ibara ry'ubururu. Imbere yayo hari imbaga nyamwinshi yiganjemo abicaye. Harimo umugore wambaye umupira wa orange ndetse akenyeye igitenge. Imbere ye hari umugabo w'umusaza ufite uruhara, wambaye ishati n'ipantaro ndetse na bote ziri mu ibara ry'umukara.

Inyubako yubatse mu buryo bugezweho ni inzu mberabyombi iberamo inama, amahugurwa ndetse n'ubukwe n'ibindi. Harimo abayobozi batandukanye bicaye ku ntebe z'imituku, barimo baraganira ku bintu bitandukanye.

Abakobwa babiri bahagaze, umwe w'inzobe, afite mikoro mu ntoki, iruhande rwe hari urimo amwitegereza, yumva icyo avuga, hari n'abandi bicaye, bamuteze amatwi.

Abagabo ndetse n'abagore bicaye imbere y'icyapa cyanditseho ngo bikorere mu isibo, gutanga mituweli, kwizigamira muri ejo heza, kwicungira umutekano, kurwanya ibiyobyabwenge, ibyo byose nibyo bari kudushishikariza kubikorera mu isibo.

Umugabo ufite indangururamajwi mu ntoki yambaye, amadarubindi ndetse n'agashati k'amaboko magufi, arimo aratanga ibiganiro bitandukanye, biragaragara ko yishimye.

Umugabo wambaye ikoti rya kaki afite indangururamajwi mu ntoki, biragaragara ko arimo atanga ikibazo cyangwa se igitekerezo, urabona ko ahagaze mu bantu benshi.

Inama yahuje abantu batandukanye harimo; ingabo z'igihugu, barimo barafata amafoto ndetse harimo n'abarimo batanga ibiganiro.

Abagabo batatu, umwe muri bo yambaye impuzankano ya polisi y'igihugu cy'u Rwanda, undi yambaye impuzankano y'igisirikare cy'u Rwanda. Uri hagati yambaye ikote, afite indangururamajwi mu ntoki.

Umugore uri mu bandi, ahagaze imbere y'abayobozi harimo abaganiriza ku birebana n'ubuzima. Harimo n'abandi batandukanye bashinzwe....

Umusore wambaye hejuru ya MTN ndetse n'agapira k'umuhondo ka MTN, afite indangururamajwi mu kaboko kamwe k'iburyo na terefone mu ntoki, arimo arabaza ikibazo cyangwa se atanga igitekerezo.

Abagore beza bakeye babyambariye, bakenyeye imikenyero myiza ndetse bambaye n'inigi z'imyeru mu ijosi, barimo barabyina bishimye ndetse bafite ubwuzu.

Umubyeyi afite urusyo, arimo arasya amasaka, afite ingasire mu ntoki arimo akuba ku rusyo, iruhande rwabo hari ikibo apfukamye ku mukeka.

Umuheto urambitse hasi iruhande rwawo hari imyambi, ibi ni ibikoresho bya gakondo byifashishwaga kera mu guhiga ariko ubu ntibigikora byasimbuwe n'imbunda.

Itente ririmo tapi y'icyatsi ririmo abasore bari kubyina imbyino gakondo, bambaye imyenda igizwe n'amabara y'umweru n'umukara, inyuma yabo hari icyapa kinini gifite ubuso bw'umweru kiriho ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda ndetse n'idarapo rigizwe n'amabara atatu ubururu, icyatsi ndetse n'umuhondo.

Icyumba kirimo urumuri kirimo umugabo wambaye ishati, umukenyero w'umuhondo urimo amabara y'umukara ndetse yicaye ku ntebe iri mu ibara ry'mweru, iruhande rwe hari umugabo wicaye wambaye ishati y'umweru, umukenyero ndetse ufite inanga mu ntoki.

Umubyeyi ukiri muto yambaye umushanana ndetse n'umwenda wa kinyarwanda, afite insakazamajwi mu ntoki arimo arabaririmbira bamuteze amatwi.

Igikoresho kifashishwa n'abantu batandukanye yaba abakecuru, abasaza kitwa inkono y'itabi bagikoresha banywa itabi ndetse n'ibindi.

Umwami ndetse n'umwamikazi, Rudahirwa ndetse n'umwamikazi we, barimo barafata ifoto y'urwibutso. Uyu mwamikazi nimwiza, asa neza.

Abari beza barimo baracurira, abandi barimo barabyina, abandi barimo bararirimba, umwe muri bo afashe indangururamajwi, inyuma yabo hari ingoma.

Umuhanda munini w'igitaka hirya yawo hari umurima munini uteyemo insina nyinshi ndetse hari ipota ry'igiti ririho insinga zitandukanye zifashishwa mu gukwirakwiza umuriro mu baturage, imbere hari inzu nini iri mu gipangu isakajwe amabati y'umutuku.

Ikiraro gikozwe mu byuma kiriho abantu batandukanye higanjemo abambaye ingofero ziri mu ibara ry'umweru ndetse n'amajire, umwe muri bo ni umuzungu yambaye ipantaro iri mu ibara ry'umukara, inyuma yabo hari ikinyabiziga cyifashishwa mu gutwara imizigo kiri mu ibara ry'umweru.

Ipoto rirerire cyane ricaho insinga ziva hamwe zijya ahandi zitwaye umuriro w'amashanyarazi. Izi nsinga akenshi zizwiho gutwara umuriro mwinshi.

Ipato rirerire cyane ririho umugabo wambaye ijire y'ubururu, yambaye na kasike y'ubururu, ijere ryo ni icyatsi, ahagaze imbere yipoto rinini cyangwa se ipironi ritwara umuriro w'amashanyarazi.

Umurima munini urimo ibiti bitandukanye bifite amashami maremare, urimo umunara ukozwe mu byuma, uriho insinga nyinshi zifashishwa mu gukwirakwiza amashanyarazi mu baturage. Umuriro wo gucana ni ngombwa kuko utuma tubaho dufite ubuzima bwiza.

Ikirere gikeye gisa neza biragaragara ko ari ku mucyo hariya amapoto atwara insinga z'amashanyarazi, zitwa amapironi ziyambutsa ziyavana ku musozi umwe, ziyajyana ku wundi musozi.

Aha ni ku ruganda rutunganya amashanyarazi, mbere y'uko akwirakwizwa mu duce tw'igihugu dutandukanye, arabanza akanyura hano bakayagabanya ku buryo atangiriza ibintu byinshi.

Inzu isakaye isizwe irangi ry'umuhondo ndetse ifite idirishya riri mu ibara ry'icyatsi, iriho urwego rukozwe mu ibiti, ruriho umugabo uri gukora amashanyarazi wambaye ikoti ry'umukara ndetse n'ipantaro y'umutuku, iruhande rwe hari umugabo wambaye ikoti, inyuma ye hari igiti gifite amashami maremare.

Urugomero rw'amashanyarazi ruriho insinga nini cyane zitandukanye zishinzwe kujyana umuriro w'amashanyarazi mu duce twose tw'igihugu, aha haba hari ibikoresho kabuhariwe.

Umugabo w'umwirabura wambaye ingofero iri mu ibara ry'umuhondo, agapfukamunwa k'umweru ikote ndetse na ga ziri mu ibara ry'umutuku, kandi yambaye ipantaro ari gukanika ibikoresho by'ikoranabuhanga, ndetse imbere ye hari ibikoresho byiganjemo ibiri mu ibara ry'ubururu.

Umugabo afite igikoresho mu ntoki kibara umuriro w'amashanyarazi arimo arakanika kugira ngo abaturage babone umuriro w'amashanyarazi, yambaye umwenda wabugenewe.

Umugore wambaye akarindamutwe k'umweru ndetse n'imyenda yabugenewe y'ubururu, ari kuri sitasiyo y'amashanyarazi, aho batanga umuriro ndetse n'aho bawukontororera.

Imashini iri gukora umuhanda iriho abakozi batandukanye higanjemo abambaye ingofero ziri mu ibara ry'umuhondo ndetse na amajile ari mu ibara rya oranje, hirya cyane hari inzu nini isizwe irangi ry'umweru ndetse isakajwe amabati.

Umuhanda wa kaburimbo ni bimwe mu bikorwa remezo Leta y'u Rwanda igenda ituzanira aha harimo imodoka zizamuka n'izimanuka ndetse hari n'amatara ashinzwe kumurikira iyo mihanda.

Imodoka iparitse imbere y'inyubako nini, hateye jaride irimo indabo ndetse n'igiti cy'umwembe kiri imbere y'inyubako.

Inzu nini igeretse kabiri igizwe n'ibyumba byinshi ifite amadirishya manini arimo amarido ndetse isizwe irangi ry'umuhondo. Imbere yayo hari ikibuga kinini gihagazemo imbaga nyamwinshi y'abantu ndetse n'ibinyabiziga. Harimo umuporisi wambaye impuzankano y'igiporisi cy'u Rwanda, inyuma ye hari imodoka iri mu ibara ry'umukara.

Inyubako itangirwamo serivisi zitandukanye z'ubuzima, hari abaje bahagana baje gushaka izo serivisi, iruhande rw'iyi nyubako hari itente ry'umweru.

Abagabo bane hagati harimo umugore wambaye ipantaro y'umukara n'ibitabo mu ntoki. Barimo barava ku kigo nderabuzima kitwa Girubuzima.

Ikiraro kinini cyubakishijwe ibyuma bifite amabara atandukanye, munsi yacyo hari amazi mabi atemba ndetse hejuru yacyo hari itsinda ry'abantu higanjemo abagabo, hari umugore ufite ibisuko ndetse wambaye ikanzu iri mu ibara ry'umutuku.

Nyamikamba Health Post, aha ni ikigo nderabuzima gusa gitanga serivisi zitari nyinshi cyane harimo iz'ubuvuzi bw'ibanze.

Sitade ikinirwaho imikino igiye itandukanye, urabona ko abakiriya cyangwa se abafana baje bitabiriye kureba iyi mikino, harimo abakinnyi bambaye amajezi atandukanye.

Inzu nini i isizwe irange ry'ubururo iriho icyapa gifite ubuso bw'umweru kiriho ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda, imbere yayo hari imbaga nyamwinshi y'abantu bateranye higanjemo abagore, harimo umugabo wambaye ingofero y'umutuku ufashe ku cyapa gifite ubuso bw'umweru.

Inyubako zirimo umudugudu w'ikitegererezo zubatse ku murongo, zubatswe kimwe ni ahantu utahamenyereye ushobora kuyoba ukinjira mu nzu y'abandi, wibwira ko winjiye iwawe.

Ikiraro kinini cyubakishijwe ibyuma kirimo amazi asa nabi, inyuma yayo hari umusozi munini uriho ibihingwa bitandukanye higanjemo ibiti. Hejuru hari ikirere cyiza gifite ibara ry'umweru. Ibikorwaremezo mu buzima bw'abaturage ni ingirakamaro kuko butuma bagira ubuzima bwiza.

Karushuga aha ni ikusanyirizo ry'amata ahatangirwa amata yavuye mu borozi bagiye batandukanye, hasakaje amabati arimo ibara ry'icyatsi ndetse n'inzu isa neza.

Inzu idasakaye gusa igiye kuzura, biragaragara ko ari ikigo cy'amashuri. Iyi nzu, wabona ari n'umuyaga wayugurukanye ukaba wayikuyeho amabati.

Inyubako nziza zubatswe kimwe ni nyinshi, zisakajwe amabati y'umutuku biragaragara ko ari umudugudu w'ikitegererezo, iruhande rwazo hari umuhanda nubwo atari uwa kaburimbo gusa uriho amatara awumurikira.

Abaturage batandukanye barimo abagabo ndetse n'abagore, hari umuyobozi urimo abaganiriza, imbere yabo hari uruzitiro rurimo amabara y'umweru, ndetse n'umutuku rwanditseho sitopu.

Ahabereye inama yahuje abaturage baturutse mu mpande n'impande z'Igihugu, barimo baraganirizwa ku burenganzira bwabo ndetse baganirizwa ku bijyanye n'ubutabera.

Amatente ari mu mabara atandukanye higanjemo ay'umweru imbere yayo hari imbaga nyamwinshi y'abantu higanjemo abagore, imbere hari umurongo uriho abagore ndetse n'abagabo bafite amagare, ku ruhande hari umudaso wambaye impuzankano y'Ikidasa cy'u Rwanda igizwe n'ibara ry'icyatsi.

abagabo ndetse n'abagore bitabiriye igikorwa cyo kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi, mu gihumbi kimwe magana kenda mirongo kenda na kane. Urabona ko ari byiza kwibuka.

Umugabo wambaye agapira k'ubururu, ahagaze imbere yimbaga nyamwinshi, arimo aravuga uko yarenganyijwe.

Abayobozi batandukanye bo mu nzego zitandukanye, bicaye bakurikiye ibyo umuyobozi arimo abagezaho. Bambaye amakoti ndetse nyuma yabo hari abantu benshi.

Itente rigizwe n'amabara atandukanye higanjemo iry'mweru, ririmo imbaga nyamwinshi y'abantu bahagaze, higanjemo abambaye amakoti y'umukara. Harimo umugabo wambaye amarinete iruhande rwe hari umugabo wambaye isaha k'ukuboko ndetse iruhande rwe hari umusirikare wambaye amarinete ndetse n'impuzankano y'igisirikare cy'u Rwanda.

Umugabo wambaye impuzankano ya polisi, afite indangururamajwi mu ntoki yambaye n'amadarubindi harimo araganiriza abari aho bose ku bijyanye n'ubutabera, ndetse n'uburenganzira bwa muntu.

Umuyobozi uhagaze imbere y'abaturage benshi, ari ku murenge, arimo arabaganiriza ku butabera ndetse n'uburenganzira bw'umuturage.

Icyapa kiyobora umuyobozi kimwereka ko imbere hari amasangano y'umuhanda cyangwa se inkomane bityo ko akwiye kwitonda akagenda yigengesereye kugira ngo adakora impanuka.

Imodoka ya kwasiteri iri mu ibara ry'umweru yicayemo abagenzi, yifashishwa mu gutwara abagenzi bava mu duce tumwe bajya mu tundi, iri mu muhanda wa kaburimbo ifite aho yerekeje.

Icyapa kimenyesha ko imbere hari umuhanda ufite ikona rikata iburyo, gikikijwe n'ubuso bw'umweru.

Umuhanda munini w'umukara urimo moto itwawe n'umugabo wambaye kasike y'umutuku inyuma ye hicaye umugore. Imbere yabo hari ikinyabiziga cyifashishwa mu gutwara imizigo kiri mu ibara ry'umweru kirimo umuntu wambaye umupira w'umutuku. Iruhande rwacyo hari inzu zikorerwamo ubucuruzi ziganjemo iziri mu ibara ry'umweru.

Umuhanda munini w'umukara ku ruhande rwawo hari buroke sima igizwe n'amabara y'umukara n'umweru kandi hari icyapa gishinze mu ndabo gifite ubuso bw'umutuku ndetse kiriho ibirango biri mu ibara ry'umweru, imbere yacyo hari ipoto rinini ryifashishwa mu gukwirakwiza umuriro mu baturage.

Umuhanda munini wumukara urimo imirongo myinshi irimo ibara ry'umweru, ndetse umo igare ritwawe n'umugabo wambaye umupira w'umukara inyuma ye hicaye umugore wambaye ingofero ku ruhande hari inzu zikorerwamo ubucuruzi, ziganjemo iziri mu ibara ry'umweru.

Icyapa kigizwe n'ubuso bw'umweru, kiriho iderapo rigizwe n'amabara atatu: ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi. Kiriho kandi ikirangantego cya repubulika y'u Rwanda, cyanditsweho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, agaragaza indangagaciro na kirazira by'abanyarwanda.

Icyapa kiranga ahantu cyanditseho Fa na Na ijana na mirongo ine n'umunani Sa na Ta. Kirimo kirereka ukigana aho agomba kwerekeza.

Umuhanda wumukara ku ruhande rwawo hari icyapa gishinzwe mu byatsi gikozwe muri mpande eshatu, ndetse gifite ubuso buri mu ibara ry'umweru, gifite ikirango kiri mu ibara ry'umukara, imbere yacyo hari igiti kinini ndetse n'inzu zikorerwamo ubucuruzi.

Umugabo uri ku igare wambaye agapira k'imirongo itambitse ndetse n'ipantaro ya kaki, yambaye bodaboda zijya gusa ubururu. Anyuze mu muhanda aho abanyamaguru bambukira.

Umugabo uhagaze wamanitse amaboko, wambaye ingofero, amarinete, umupira wumutuku ndetse n'ipantaro y'ikoboyi. Inyuma ye hari agatebe karimo ibara ry'ubururu ndetse ku ruhande rwe hari umugabo wicaye wambaye umupira w'umweru ndetse n'ingofero y'umukara.

Abasore barimo abasirikari ndetse n'abakuze barimo barahinga ahantu, bikuye amashati abandi barashishikaye bigaragare ko babyishimiye.

Urubyiruko rw'abasore n'inkumi bitabiriye inama barimo barabaganiriza ku birebana n'umutekano w'abaturage, bamwe muri bo bambaye amajire abandi ntayo bambaye.

Urubyiruko rurimo rurakora umuganda harimo abasore n'inkumi bamwe barimo barakora abandi baricaye abandi barahagaze abandi barunamye biragaragara ko bari gukora igikorwa cyo kubumba amatafari.

Imbaga nyamwinshi y'abantu higanjemo abana imbere yabo hari itsinda rya'bakobwa bambaye impuzankano ya majezi iri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara, imbere yabo hari umugore wambaye ingofero, umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara ari kwambika imidari abakinnyi.

Abasore babiri bambaye iniforume cyangwa se amajezi y'umukara, imbere yabo hari umusore ufite umupira wambaye ijezi y'umuhondo biragaragara ko barimo bakina umupira.

Ni kumugoroba, amatara arimo aramurika, harimo abantu bambaye imyenda ya siporo, bari mu muhanda hagati, barimo barakora siporo birukanka. Siporo ni ubuzima.

Abagabo bicaye ahantu hamwe barimo barareba umupira. Aba ni abafana baje gufana bamwe bishimye kuko ikipe yabo iri kubikora abandi bababajwe.

Umusore ukiri muto wambaye ijezi ririmo ibara ry'ubururu, ndetse nicyatsi, arimo aratembera mu kibuga ahakinirwa umupira w'amaguru.

Abasore barimo barakinira agapira mu kibuga cy'ibitaka, bambaye amajezi y'ubururu ndetse na jezi zijya gusa ubururu ariko bwererutse, ni ku zuba, hari abari hakurya, harimo abitegereza uko bakina.

Inyubako nini, ni sitade yerekanirwamo imikino igiye itandukanye, hariho aho abakiriya bicara cyangwa se abafana, baje kuryoherwa n'imikino iri kubera muri iyi sitade.

Ikibuga gikinirwamo umupira w'amaguru, kigizwe na tapi ndetse kirimo umurongo muremure w'umweru. Kirimo abantu bari gukora imyitozo ngororamubiri, umwe muri bo ni umugabo arunamye yambaye umupira w'umutuku ndetse n'ipantaro y'ijezi iri mu ibara ry'ubururu, irimo uturongo tw'umweru.

Ikibuga gikorerwamo imyitozo ngororamubiri kigizwe n'ibyatsi bikase neza kirimo balo ndetse n'abakinnyi bambaye amajezi atandukanye, kirimo abakinnyi bambaye impuzankano igizwe n'amajezi ari mu ibara ry'umuhondo, hirya gato hari umusifuzi w'umugore wambaye ikabutura y'umukara.

Icyapa kinini kigizwe n'ubururu bwijimye, kiriho ikirangantego cya repubulika y'u Rwanda ndetse cyanditswemo amagambo ari mu ibara ry'umweru agaragaza uko amakipe yatsindanye mu murenge Kagame Cup, bibiri na makumyabiri na kane, bibiri na makumyabiri gatanu.

Abakobwa bambaye amajezi atandukanye harimo abambaye amajezi y'umukara, abandi bambaye amajezi ajya gusa umutuku, bose bari gukina bishimye.

Umwana ukiri muto wambaye imyenda y'imyeru, ahagaze mu muhanda afite igipine cy'umukara arimo aragicunga. Ibi bishimisha abana kuko bituma batigunga.

umuhanda munini wa kaburimbo urimo urazamuka, hari n'amatara ku ruhande awUmurikira bityo abagenzi bakagenda babona.

Imbuga nini yubakishijwe amapave, irimo ikinyabiziga gifite amapine y'umukara ndetse kiri mu ibara ry'ubururu cyanditsweho amagambo ari mu ibara ry'umweru. Ibinyabiziga mu buzima bwa muntu ni ingirakamaro kuko bidufasha kuva ahantu hamwe tujya ahandi.

Umumotari aparitse iruhande rw'umuhanda yambaye kasike arimo arapakira ibicuruzwa kuri moto, iki kinyabiziga kimufasha gutunda ndetse no kwikorera ibikoresho bitandukanye.

Umugabo ndetse n'umugore barimo baragenda hejuru ya rigore ariko isakajwe borodire, barimo baganira biragaragara ko bavuye ahantu hamwe barimo barerekeza ahandi.